Ivuriro Kigali Polycho-Medical Center rirashishikariza abantu bose ko bongeye gufungura ko bagaruka kongera kuhivuriza, kubera ko bazanye umuganga mushyashya uzajya ubafasha, bakazajya bakora kuwa gatatu no kuwa gatandatu.

Abagore batatu bafite inkoni bambaye ibitenge bitandukanye n'ibitambaro bitandukanye, umwe muri bo afite umwana n'umufuka mu ntoki, baje gusura imirima yabo, iruhande rwabo hari insina no hakurya yabo hari umusozi uteyeho ibiti.

Inama yahuje abaturage ndetse n'abayobozi. Hatangiwemo imfashanyo ku muturage utari ufite ubushobozi, ahabwa igikoresho cyo kwiyorosa aryamye, aho byishimiwe n'abaturage bose, ku bw'icyo gikorwa.

Inyubako yo kwa muganga, ifite imiryango itandukanye n'imibare itandukanye, bifasha umurwayi cyangwa umurwaza kumenya aho arwariye cyangwa arwarijwe, kugira ngo bitamutera urujijo. Hejuru hari utumenyetso, akazamuye n'agatambitse, bifasha umuntu kumenya aho agenda.

Umuhungu wambaye inkweto z'umukara n'umweru, ipantaro y'umukara, agapira k'umukara uri mu myitozo ngororamubiri, iruhande rwe hari ibikoresho bimufasha gukora iyo myitozo. Dushishikarire twese gukora imyitozo ngororamubiri kubera ko ari ingenzi ku buzima bwacu.

Umuntu wicaye ku gitanda wambaye umupira w'ubudodo, yakomeretse ku kaguru k'ibumoso, ahashyira igipfuko kugira ngo amaraso adakomeza kuva cyane. Tujye twirinda kwirukanka cyane, twirinde impanuka.

Umugabo uvuye muri siporo wambaye agapira k'umukara ari kunywa amazi kugira ngo abungabunge ubuzima bwe, kubera ko iyo umuntu ari muri siporo hari amazi umubiri utakaza kugira ngo ayagarure agomba kongera kunywa amazi kugira ngo umubiri ukore neza.

Ku meza hariho ibintu bitandukanye. Hari ibikoresho byifashishwa mu myitozo ngororamubiri ndetse n'amafunguro atandukanye harimo atera imbaraga, arinda indwara ndetse n'ayubaka umubiri.

Ibikoresho by'ubwiza bitandukanye, harimo amasabune, amavuta, n'ibindi bigaragaza ko buri wese agomba guhitamo igikoresho cyo gukoresha, isabune cyangwa amavuta bijyanye n'uruhu rwe kugira ngo rutangirika.

Uducupa dutatu duteretse ku meza dufite ibimenyetso bimwe ariko biri mu mabara atandukanye kandi bifite n'ingano zitandukanye, hamwe ni ijana na makumyabiri, akandi ni mirongo irindwi, akandi ni mirongo itandatu.

Umuntu ufashe icupa ririmo isabune yoza mu mutwe ikozwe mu kimera cyitwa igikakarubanmba, bashishikariza abantu kuyikoresha, kubera ko kivura ibintu byinshi bitandukanye harimo n'imvuvu.

Icyatsi cyifashishwa mu buvuzi gakondo ni ingenzi cyane, tugisigasire, tukiririnde kubera ko gitanga ubuvuzi bw'ibanze kuri buri muntu utabashije kugera kwa muganga ako kanya.